Amafi umunani yari mu nshundura， biragaragara ko amaze kugaroba，Ahubwo uko gasa， birasa nk’aho aribwo bamaze kugaroba.

Igisorori kirimo isosi imeze neza cane. Uko bigaragara iraryoshe iririmo ibirungo byose. Umuntu wese agiye ategura isosi imeze gutya, byaba ari byiza.

Iyi fi nk'uko bigaragara ni imwe ariko imeze neza irabyibushye, nk'uko bigaragara iraryoshye.

Iki cuzi nku'ko bigaragara, corowe mo amafi. Kandi ndabona kimeze neza, ni icya kijambere, kijanye n'igihe.

Karoti nizo zihinze mwa guno murima. Uko biri kugaragara, zimeze neza, ariko hari aho ubona ko baziranduye, bakazica imitwetwe.

Ibihingwa bitangaga amafaranga iyo babijyanye ku isoko ikindi kandi bitanga ibyo kujya, abantu bakagira ubuzima bwiza ndetse bakabona n'ibisigazwa amatungo gakaba arizo gabijya.

Ibi birayi ni ibirayi byiza cane. Babyitaga Kinigi. Umva, biraryoha, bigira amafufu, biraseseka, wabiriye ntabwo wabivaho.

Ibi birayi birambitse hasi, uko bigaragara ni binini biraryoshe umuntu uri kubirya ntago yabivaho.

Uyu mubyeyi nk'uko bigaragara ibi ni ibirayi yahinze, bimeze neza ubona ko abyitagaho cane, aba yabikoreye pe! Mbese ibi birayi ni byo kwifuza.

Aba bantu bari gusoroma amababi gavamo icyayi bayashyira mu dutebo. Ikindi kandi icyayi ku bantu bagihinga gitangaga amafaranga menshi.

Ibinyomoro, amaronji biri hano bimeze neza cane. Kandi ni imbuto zifashishwa mukurinda indwara.

Uyu muntu biri kugaragara ko uyu ari umwumbati afite amaze gukura, yarawukoreye, yawitayeho, hariho imyumbati myinshi, irajyoshe nk'uko bigaragara rwose.

Nk'uko biri kugaragara hano，aba bantu bishyize hamwe bari gukora kugira ngo biteze imbere. Nk'uko bigaragara bari guhinga abandi batera，mbese bari gukora imirimo itandukanye.

Guhinga ibigori ni byiza kuko bitangaga umusaruro gushimishije. Ikindi kandi bitangaga amafaranga bigatanga n'ibyo kurya umuhinzi wabihinze aba ameze neza.

Uyu mubyeyi ari gutoranya ubunyobwa. Yaburamburiye ku mifuka ubundi buri hasi. Ari gutoranyamo ibyiza, ibibi akabishira ku ruhande.

Ibi bishyimbo ni intonore, hari mo ibitonoye, hari mo n'ibidatonoye, birambitse ku gatapi keza cane.

Uko bigaragara uyu muntu ari kwanika ibishyimbo, ikindi kandi hirya ye ndahabona amazu ga kinyarwanda ga kera, gabaga gubakishije ibyatsi.

Nk'uko bigaragara ugu muceri gumeze neza, umuntu waguhinze agwitaho cane biragaragara ko guzatanga umusaruro mwinshi cane.

Soya ni nziza cane kuko itangaga amata go kunywa, igikoma, mbese akamaro kayo ni kenshi.

Biri kugaragara ko uyu ari umuntu uri kugaburira aga amatungo. Aga matungo kandi ndabona ari inkoko .Ni nyinshi zimeze neza.

Uko bigaragara izi nka zimeze neza, zirashishe, umuntu uzoroye, biragaragara ko azitaho neza.

Nk'uko bigaragara, izi nkoko ni isake. Kandi zimeze neza. Biragaragara ko umuntu uzoroye azifashe neza cyane.

Imbata y'umushwi imwe igaragara neza cane ko yitaweho mbese ni iyo kwifuzwa.

Iyi ntare iryamye ku rutare gwiza cane. Iri ahantu hameze neza hirengeye, n'intare ndetse ubwayo irasa neza cane.

Inyoni nziza ihagaze ku mashami y'indabyo zifite amabara atandukanye. imwe zisa n'umweru, iz'indi zisa n'umuhondo.

Inyamaswa ibaga mu ishamba isa neza, ikindi kandi irabyibushe, umunwa gusongoye maso busongo n'amaso,

Nk'uko bigaragara iyi ni inyamaswa y'igasozi iri kumanuka ijya kunywa amazi ivuye mu ishyamba.